Inzego z'umutekano buriya ni nziza cyane kuko zituma tubaho neza zikarinda u Rwanda rwacu neza kandi zituma tubaho dutuje turi no mu mutekano.

Abajepe iyo bari gukora iyo bari kuri palede bari gukoresha ibi byuma inkota barazicanga cyane. Buriya kuzireba biryo biryohera amaso, cyane cyane iyo wabegereye ubegereye uri kubareba.

Abapolisi buriya ndabemera cyane. Ndabemera kubera batuma tugira umutekano, baturindira umutekano, batugira inama, batubwira ibintu byiza byo gutangira amakuru ku gihe, bakatubwira ko tuza turanaripotinga ikibaye cyose. Tukakibabwira kugira ngo bagishakire igisubizo.

Iyo habaye akisida moto ishobora kuba yashya igakongoka bitewe n'uko haba harimo esanse, kandi iyo ikoze impanuka umuriro uraka, bigatuma moto ishobora kwaka igashya kandi igashira igakongoka.

Abasirikare ni abantu bakomeye cyane, kubera ko badufasha kubaho neza, turi mu mutekano, kubera ko batariho igihugu baza baragitera, hanyuma bigatuma umutekano, n'ubusugire bw'igihugu buhindagurika.

Abaturage bari mu nama z'umutekano kugira ngo turebe ko twarengera ibintu bidukikije，cyane cyane twigirira，buri wese abera undi ijisho rya mugenzi we，kugira ngo tugere ku iterambere ryacu rirambye.

Abapolisi ni abantu beza cyane kubera ko baturindira umutekano kandi batuma tubaho tutari kurwana, kubera ko tuba dufite ubwoba ko iyo urwanye abapolisi baza bakakujyana bakajya ku kugorora.

Abadaso n'abapolisi ni ingenzi cyane kubera ko badufasha kugira ngo tubeho mu mutekano, kandi tubeho dutuje nta ntonganya ziriho, kubera ko badufasha kugira ngo batware abantu baba barigize ibinani.

Abantu baba bambaye amapingu, akenshi baba bakoze amakosa, cyane cyane nko gukora urugomo cyangwa kugenda bakiba ibintu by'abandi, cyangwa bakaba baba bateye abantu amakaci.

Abasirikare ni abantu beza cyane, kubera ko baturindira umutekano tukabaho dutekanye tukabaho mu mahoro, cyane cyane iyo hagiye kubaho nk'ibintu by'intambara, abasirikare baratwitangira bakajya kuturwanirira kugira ngo tutabaho nabi.

Iyo bakwambitse amapingu wumva nta mahoro ufite kubera ko baba bari kugukekaho ibintu byinshi nko kwiba cyangwa gukubita cyangwa kubeshyera nk'abandi cyangwa ukaba ukorana n'imyuka mibi cyane cyane ibya Ryangombe cyangwa ibindi.

Abadaso baba bambaye neza kuberako baba bambaye impuzankano yabo, kandi batugirire badufitiye akamaro kanini kuberako baturindira umutekano , kugira ngo tubeho dutuje kandi turi mu mutekano.

Abajepe ni abantu baba baratowe cyane, cyane cyane baratojwe ku bintu by'inkota no kurinda umutekano w'umuntu runaka, cyane cane nka Hizi Egiserense Paul KAGAME umubyeyi wacu, baba bamurinze kugira ngo he kugira ikintu cyamuhungabanya, cyangwa kikaba cyamwegera.

Iyo ujyanye imodoka muri kontorore, abapolisi baba bayihagaze iruhande kugira ngo bakurebere, imodoka yawe niba ifite ibibazo, iyo basanze harimo ibibazo bakubwira ko urajya kubikosora, hanyuma wamara kubikosora, bakaguha icyangombwa cyemeza ko imodoka yawe nta kibazo na kimwe ifite.

Abadaso batuma tubaho turi mu mutekano, kubera ko baba bashinzwe kureba ukuntu abaturage bari barikugenderana babayeho neza, kandi bakamenya ko bari mu mutekano mbese baturindira umutekano, kandi bamenya niba ab'amarondo bayaraye.

Abasirikare ni abantu bakomeye cyane, kubera ko bitangira igihugu, kandi bakaba baharanira kubaho turi mu mutuzo n'umutekano, kandi abasirikare bagira disipurine iri ku rwego rwo hejuru, ugereranyije n'abandi barinda umutekano.

Abaturage iyo bari mu nama baba bacishije make kugira ngo bumve ibyo bagiye kubabwira, dore ko akenshi biba ari ingirakamaro ku buzima bwabo kandi no ku mibereho yabo. Baritonda cyane kugira ngo batege amatwi, kandi bumve neza ibyo bari bagambiriye kubabwira.

Iyo habaye umuganda, abantu bose bagerageza gukora kugira ngo dukore twubake u Rwanda rwacu, turusige rusa neza kurusha uko twarusanze, kandi buri wese agerageza kugendana igikoresho cyose afite, gishobora kuba cyagira icyo gikora.

Abantu bari mu nama baba bacishije make cyane, bateze amatwi umuntu, uri kugira ibyo ababwira, cyane cyane iyo muri mu nama birababisaba kugira ngo mukurikire kandi mutege amatwi, mwanarize ibyo bari kubabwira.

Intore ziradususurutsa cyane, cyane cyane iyo habayeho nk'ibirori cyangwa haje nk'umuyobozi mukuru nka Perezida Paul Kagame, umuyobozi wacu dukunda cyane. Ziratubyinira tukanezererwa cyane.

Ibiseke ni byiza kuko bituma iyo ubyikoreye cyane cyangwa uzindutse ,ugaragara neza biba biri kugaragara neza ,iyo umuntu akubonye abona umeze neza.

Umuduri uryohera amatwi iyo bari kuwucuranga uwegereye wumva uryohewe cyane. Cyane cyane iyo uri gucurangwa n'umuntu uwuzi neza awucuranga neza.

Intore zisusurutsa abantu cyane cyane mu bukwe n'ahantu habereye ibirori. Intore zibyina neza cyane kandi zituma utarambirwa iyo wagiye kureba aho ziri kubyinira.

Urusyo rudufasha gusya ifu cyane cyane iyo ushaka gushira ifu y'urwarwa kugirango ngo ibe itanoze biragufasha kugira ngo urwarwa rube ruryoshe. Kandi urusyo usyaho amamera yo gukoramo igikoma.

Umwuko ni igikoresho kidufasha gukora kawunga cyangwa ubugari, kandi umwuko uba ingenzi, kandi iyo wawukoresheje kawunga ugira kawunga iryoshye cyane.

Inzuki zigira ubuki bwinshi, bwinshi cyane cyane cyane. Kandi eee! Ubuki buraryoha cyane. Ubuki bukurinda kuba warwara umutima, ukaba warwara zino ndwara zidakira ndetse n'izindi.

Intore ziradususurutsa zidususurutsa cyane iyo zizi kubyina, noneho dore nk'izi ziba zizi kubyina cyane cyane, urishima ukanezerwa yewe nabashishikariza mwese kuzajya muza kureba intore ziri kubyina pe!

Ingabo za kera zabaga zifite imbaraga nyinshi cyane, zakoreshaga amacumu, ingabo kugira zirinde abanzi, zagumaga zitera amacumu abanzi bakayakinga gutyo.

Isekuru ni nziza cyane cyane kuko iradufasha gusekura ibintu, ku buryo usekuramo ibintu bikaba byakoroha ku buryo wabikoresha. Ni yo mpamvu isekuru arigira akamaro kanini cyane cyane.

Abari gukura urwarwa bararukora, baka iyo barutaze, ruraryoha cyane iyo rwahiye, urwarwa mbese ni rwiza cyane, kuko ruba rutarimo ibindi bintu, byo bashyizemo by'imisemburo bindi, bagashiramo amasaka rugasha rukaryoha, iyo rwahiye ruraryoha.

Ababyinnyi baba bazi kubyina cyane, aho babyina bafite amacumu, bafite n'ingabo, zo kugira ngo babyine bari kugaragaza ko bazi kubyina neza cyane, kandi baba bambaye ibintu byo ku mitwe byo kugira ngo bazunguze abantu baryoherwe.

Ibibindi bidufasha gushyiramo ibigage kugira ngo biryohe cyane, kuko ikigage cyo baba bashyize mu kabindi kiba kiryoshye cyane nta n'aho cyahurira n'ikigage cyo baba bashyize mu madomoro, kandi ikigage cyo mu kabindi kiraryoha.

Ingano ni nziza cyane, iyo bari kuzigosora ziba zisa neza. Kandi iyo bamaze kuzigosora baragenda bakajya gusyamo igikoma cy'abana, cyangwa bagasyamo umutsima wo kurya.

Inkongoro tubikamo amata, dushyiramo amata tumaze gukama, tukayashyiramo, yarangiza guteka ameze neza, tukazaza tugasukaho tukanywa, gusa amata ari mu nkongoro araryoga cyane.

Intore zabyinira mu kinigi. Zikaza kubyinira hano i Musanze .Wareba ukabona bazi kubyina neza pee! Babyina neza cyane nange .Numvaga bazambyinira mu bukwe bwange ningira ubukwe nzabatumira.

Ababyinnyi baba basa neza kubera ko babyina bari guseka kandi baba bambaye neza utwenda tubarekuye kugira ngo ngo babone uko bisanzura bari kubyina. Kandi iyo bari kubyina, baba bagomba kuba bari guseka kugira ngo bashimishe abantu bari kubyinira.

Ikigage ni amafufu pe nanjye ndi kumva nasomaho, ikigage ni cyiza cyane kuko gituma utekereza neza, kandi kibamo n'intungamubiri.

Abakaraza b'ingoma, baba bazi kuzivuza neza cyane, cyane cyane iyo bafite nk'igitaramo, cyangwa bafite ibirori bari bubyinemo, baba bambaye utuntu tudekoye cyane cyane, turatuma abantu babona bambaye neza cyane.

Igisabo bacundiramo amata， bakabikamo amata，kugira ngo bakuremo amavuta. Abenshi amacunda aba yavuyemo，barayanywa，kuko bavuga ngo araryoha cyane.

Abakaraza baba barabyitoje cyane, kubera ko wavuza ibintu bimwe, kandi bakavuza badategwa, ugereranyije baba barabyize cyane, kandi baba barabisubiyemo kenshi.

Uyu ni umutiba wo bashyiramo, wo washyira ahantu kugira inzuku zizajyemo tuzakuremo ubuki. Iyo inzuki zigiyemo dukuramo ubuki. Tukajya turahakura, tukaburya tukajya turanabugurisha.

Umuduri uryohera amatwi ku wumva iyo bari kugucuranga, wumva ari byiza cyane, kubera ko biba biryoheye amatwi, kandi abantu baba bari kuwucuranga baba babizi cyane.

Ibirago ni byiza cyane, kubera ko tubyandikaho amasaka, tukabyanikaho ibigori, tubyanikaho ibishyimbo, kandi ibirago tunabiryamaho.

Ababyinnyi babaa basa neza, kubera ko babyina bari guseka, kandi bari kumwenyura, kugirango abantu bari kubareba babone basa neza batarakaye, kandi bose bari kugenda umujyo imwe, kugira ngo hatagira ubyica.

Isekuru idufasha gusekura ibintu byinshi, cyane cyane nk'iyo umuceri urimo intuza, urawusekura, cyangwa ugasekura umuti wo bahamuriye umuntu urwaye, bitewe n'indwara yarwaye. bafata umuti we bakawushyira mu sekuru bagasekura.

Igisabo ni cyiza cyane kubera ko kidufasha gucunda amata cyangwa se guhinduramo amata mu amavuta.

Intore ziryoshya ibirori cyane. Kuko iyo ziri kubyina， umuntu aba yumva ameze neza cyane， kuko arishima akanezerwa.

Ingano ni nziza, ingano zivamo imbada, zikavamo n'ifarini. Eee! Ingano ni nziza. iyo wanyweye igikoma kirimo ingano, zirinda indwara kandi ingano zituma utibagirwa.

Abantu ba kera baba bazi gucuranga inanga, kubera ko baba barabyigishijwe n'abantu bo hambere kugira ngo bashimishe abantu.

Ababyinnyi baba basa neza cyane cyane iyo bari guseka, iyo basetse batuma abari kubareba bishimira gukomeza kubareba cyane cyane iyo ari nk'ibirori birimo abantu benshi cyane b'ingeri zose.

Intore ziba zizi kubyina cyane, kubera ko ziba zarabyitoje, kenshi kandi bagomba kubyina bari guseka, kugira abantu bari kubyinira basusuruke, kandi bishime bitewe n'ibyo bari kubyina.

Ababoha ibirago bagira amafaranga, kubera ko iyo uboshye ikirago urakigurisha, cyangwa ukazajya urakiryamaho, cyangwa ukazajya uranikaho imyaka, nk'amasaka, amajyeri, ibishyimbo, cyangwa ukaba wakwanikaho n'ibindi bintu byose, nk'amamera n'ibindi.

Ikigage Kiri mu kabindi kiraryoha cyane kuberako kiba cyabize cyuzuye hejuru hejuru, iyo wakinyoye wumva umeze neza kiba gifite umusemburo ukubitamo ushyiramo umuheha, ukumva ibintu bimeze neza.

Igisabo bacyifashisha bari gucunda amavuta, kugira ngo babone ayo bateka cyangwa ayo kurya, kubera ko aryoha. Kandi amacunda aba yasigayemo nayo barayanywa.

Ababyinnyi baba bambaye neza, cyane cyane baba bakindikije ibintu bimeze nk'ibitenge, kugira ngo babyine bisagaguye. Kandi abakaraza b'ingoma baba bazi kuzivuza neza kugira ngo n'umubyinnyi ajyane nabo bidahindutse.

Umukeka uba usa neza, kubera ko iyo bari kunyuboha barawudekora, bagashimo amabara agiye gatandukanye, cyane cyane iyo ushaka kugira ngo, uze uragaragara neza, n'umuntu uwubonye ayahite awuryamaho, kubera kugu gusa neza.

Ababyinnyi baba bazi kubyina cyane, kandi baba bazi amatekinike yo kugira ngo bashimishe abantu, cyane cyane nkiyo harimo nk'abantu bafite impano, zo gukora utuntu two gushimisha abantu, two bari basanzwe batamenyereye.

Izi nkono ubundi tuzitekeramo ibijumba， ibirayi，cyane cyane gutekeramo inyama，niyo iba iryoshye cyane，iraryoha cyane inyama iyo wayitekeye muri izi nkono， iba imeze neza.

Ikirago ni cyiza kubera ko iyo wumvise unaniwe cyangwa ukumva nta mbaraga nyinshi ufite, urakirambura ukaryamaho cyangwa ukaba wicayeho, n'abandi bakaba baza mukicaraho mukaganira nk'uko hambere babigenzaga.

Abakaraza baba baratojwe cyane kandi bazwiho ubuhanga bwo kuvuza ingoma, abantu bakaryoherwa kandi bambaye neza, kugira ngo uri kubareba yumve aryohewe.

Ingabo n'icumu ubundi ,babikoreshaga bari ku rugamba. Babikoresha bari bagiye ku rugamba cyane cyane ,iyo babaga bagiye kwivuna umwanzi. Icumu ryirukanka cyane n'ingabo yaryo. Iri kuyirikinga kugira ngo umuntu nagutera icumu urikinge.

Eh! Agaseke ni keza cyane cyane. Kuko kagaragara neza, kadufasha kwibuka umuco w'Abanyarwanda ba kera.

Inkono y'itabi, bafata ibibabi bagashyiramo ibikamba bagatumura, cyane cyane ikunda gukoreshwa n'abakecuru bo hambere, banywa itabi batanywa amasigara, bavuga ko iyi nkono ariyo iryoshya itabi.

Intore ziba zizi kubyina cyane kubera ko zisusurutsa ababa baje kureba ibirori. Ziba zambaye inzogera zifite n'icumu ziri gukararaga imitwe biryoshye cyane, biryohera amaso y'uri kubireba.

Amashuri yo bigiramo baka abanyeshuri iyo wize ugira ubumenyi bwinshi, ukaba wazagirira n'igihugu akamaro ukiteza imbere, ukanateza imbere umuryango wawe. Akenshi iyo wize ugira ubwenge.

Inyambo ni inka za mbere zitonda, inyambo zigira amahembe ateze neza cyane kubera ko kuzireba ziba zisa neza, kandi inyambo ziritonda cyane kubera ko bazikoresha bari gufashoninga.

Ikirago ni cyiza cyane, kubera ko iyo wumva unaniwe uramanuka ukijyaho ukakiryamaho ukaruhuka, cyangwa iyo nta matera ufite ukiryamaho, cyangwa ukakiraraho, kandi ikirago tugikoresha turi kwanika imyaka nk'ibishyimbo, amasaka n'ibindi.

Uturabyo tuba ari twiza cyane, kubera ko dutuma abantu batureba, bakumva bameze neza, dore ko dukurura naba mukerarugendo, kandi iyo uri kutureba wumva umeze neza, kubera ko amasoso yawe aba yaryohewe.

Umuti w'inzuki udufasha gufata inzuki, kugira tuzabone uko duhakuramo ubuki tuzaburye, dore ko ubuki buryoha cyane kandi ubuki tubushira mu musururu, kugira ngo ube inturire, tuzajya turanywa twuve imeze neza.

Indyankwi ni igikoresho dukoresha turi kwasa inkwi kugirango ducane kandi zorohe kuzishyirara mu ziko, kandi indyankwi idufasha kwasa ibishitsi byo kokesha ibigori.

Saketibureka idufasha gukupa no gukupura umuriro cyane cyane iyo hagiye kuba nka siriko, Saketibureka ihita yikupa hanyuma byarangira ukaza ukayikupura, mbese ituma hataba inkongi y'umuriro mu nzu cyangwa mu iduka.

Suwici rero iba ari nziza kuko iyi ngiyi ucanira ahantu hatatu icana amatara atatu ari imwe, icana: iry'iburyo, iry'ibumoso, n'iryo hagati, ukayacana yose ukoresheje iyi suwici imwe.

Sharigeri zidufasha gucagiga ubu telefone buto, ndetse na telefone nini, kugira ngo tubone uko tuzikoresha neza kandi zirimo umuriro, kubera ko sharigeri zidufasha ibintu byinshi, tuzicanishi n'amaradiyo.

Ipensi tuyikoresha turi guca insinga tugiye gukora, turi kwesitara amashanyarazi. Iyo tugiye kwesitara amashanyarazi, turagenda tugafata insinga tukazihuza tugakatisha iyi pensi kugira ngo tubone umuriro w'amashanyarazi.

Ikibuno cya sharijeri kidufasha kugira ngo ducaginge, ucomeka mu muriro, ugacomekamo agatwe ka sharijeri ugacainga kugira ushyire muri telefone yawe umuriro, ni cyiza cyane kuko gituma tubona umuriro.

Insinga tuzikoresha turi kwesitara amashanyarazi. Insinga zirestara kandi insinga iyo zitariho. Iyo nk'ubu rumwe rwacitse ntabwo amashanyarazi yakwaka , ntabwo yaka kubera ko insinga zibazacitse.

Abayobozi b'ama IPRC ; Gishari na za Ngoma. Kwiga muri IPRC ni byiza cyane kuko uvayo uzi gukora amapuratike menshi; barakanika, barubaka, bigisha ibintu by'amantuza, by'amashanyarazi.

SKOL uruganda rukora inzoga ziryoha cyane kubera ko zidatera hangova. Iyo wazinyweye ubyuka umeze neza ntabwo zitera amavunane nk'ibyuma.

Urusengero ni rwo dusengeramo, kandi rutuma twegerana n'Imana yacu byoroshye. Pasiteri aradusengera, amakorari araturirimbira, n'abigishaga ijambo ry'imana baratwigisha. Na korari ziraturirimbira.

Urusengero ni rwiza cyane, kuko iyo wagiye gusenga uvayo umeze neza, kandi iyo ugiye gusenga uha Imana yawe ibyifuzo byawe, ukabiyereka kugira ngo igufashe kandi ibane nawe.

Ku rusengero ni heza cyane, kubera ko iyo tugeze mu rusengero, twegera n'Imana yacu, tukayibyinira kandi tukayiha n'ibyifuzo byacu, kugira ngo idusubize, kandi iyo twagiye gusenga tuvayo twishimye, twanaganiriye no ku ijambo ry'Imana.

Inyubako izaba ikomeye cyane, kubera ko harimo ibyuma byinshi cyane. Harimo ibyuma byinshi cyane, n'inkingi nyinshi, zizatuma inzu ikomera cyane, kubera ko ishobora kuzaba igereretse kenshi. Ibyuma bituma inzu ikomera cyane.

Ku rusengero iyo tugiye, twegerana n'Imana yacu. Kandi iyo twagiye gusenga twumva ubutumwa bw'abaririmbyi baba bari kuririmba, kandi twumva n'ijambo ry'Imana rituma twahinduka.

Inyubako ni nziza cyane kubera ko igaragara neza, kandi ishobora gukurura ba mukerarugendo, cyane cyane ko ba mukerarugendo bakunda utuzu dusa neza cyane, dufite utubati twiza turimo ibirahure, ndetse n'utundi tuntu dukurura abantu.

Ku rusengero tujyayo tugiye kwegerana n'Imana yacu, kugira ngo twirengagize ibibazo byo tuba twahuye na byo turi mu ngo. Kandi iyo tugezeyo turabyina turirimbira n'Imana, kandi iyo turiyo twumva dufite amahoro n'umutuzo.

Imiyoboro y'umuriro w'amashanyarazi, ni yo ituma tubona amashanyarazi menshi kandi atagenda avaho, kubera ko baba barabiteguye neza kugira ngo tubone umuriro.

Ku rusengero ni heza cyane kuberako iyo twagiyeyo tuvayo twishimye, kandi iyo twagiye ku rusengero tuvayo tumeze neza twahuye n'abandi, twishimye kandi turasirimba tukanabyina.

Inzu z'amakoro zabaga zikomeye, ziba zikomeye pe ziba zikomeye dore nk'iyi ng'iyi, nk'iyi ngiyi irakomeye uretse ko inyuma igaragara nk'ishaje, ariko iba irakomeye pe cyane cyane nk'iriya.

Agasantere ko tuguramo ibigori, tukaguriramo ibijumba, tuguramo ni n'ibindi byinshi muri ayo maduka, mbese aya maduka adufitiye akamaro kanini cyane cyane, tutayafite twahomba cyane cyane, kubera ko ariho tugurira ibintu byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo uaragaraga neza cyane cyane iyo amaborudire yawo bayateye amarangi agiye atandukanye. Umuhanda wa kaburimbo ugaragaraga neza, uba uri kunyuramo amamoto n'amamodoka n'abantu.

Aya mazu yo gutura mu buryo bugezweho ni meza cyane kuko yubakishije amatafari ahiye, arimo na sima, asakajwe n'amabati meza, amadirisha manini cyane, urabona ameze neza.

Senyenge zituma uzitira ahantu iwawe hakaba hagaragara neza, ibisambo bikaba bitahinjira, kubera ko uba wahakorutiriye ukoresheje izi senyege, kandi izi senyenge ziraramba.

Kugenda mu bimodoka bya bisi ni byiza cyane, kubera ko iyo ubigendeyemo ugenda ureba ubuce bwo hirya no hino bitewe n'aho ugeze, kubera ko uba uri hejuru cyane, wicaye hejuru, ugereranije n'ubutoya.

Kiliziya iba yubatse neza cyane, mu buryo budekoye ku buryo muri iki gihe kugira ngo wubake kiliziya nkiza kera biba bigoye, kandi kiliziya tujyayo tugiye kwiragiza umubyeyi Bikira mariya, wadukoreye ibikomeye.

Guturara neza bituma amashanyarazi n'amazi babibagezaho neza, kubera kubera ko muba mutuye mwegeranye kandi birekonomiza, nk'amatiyo yagakwiye kujyaho aragabanuka bityo mukabona serivisi byihuse.

Abanyeshuri bafite ibintu byinshi baba beremerewe, cyane cyane nko kuna bemerewe kwiga, kandi bakab bemerewe no kwiga.

Abantu iyo bari mu nama bakunda kuba bafite udupapuro, two kwandikaho ingingo z' ingenzi ziri kuvugirwa mu nama, kugira ngo nibataha bazabwire n' abandi bataje mu nama ibyo bavugiyemo.

Abanyonzi bakorera amafaranga menshi cyane cyane. Iyo nk'ubu abagenzi babonetse， barirukanka cyane，kuko abanyonzi baba bazi gutwara amagare cyane， kandi batwara ibijumba， bagatwara abantu，bagatwara n'imizigo，mbese iyo babonye ibiraka，nibyo batwara.

Abamotari bakorera amafaranga menshi, kubera ko aribo batwara abantu bose aho bagiye hagiye hatandukanye, kandi abamotari badufasha kugera aho tugiye vuba bidatinze, kubera ko iyo ugiye n'amaguru ushobora gutinda.

Abanyonzi bafite umuro mwinshi, kubera ko badufasha kugera iyo dushaka kujya, cyane cyane iyo ugiye nkahantu harehare, utagenda n'amaguru wifashisha umunyonzi, kugira ngo akugezeyo kandi ugereyo byihuse.

Iyo ugendeye muri bisi ugenda utuje kandi ugenda ufite umutekano munini, kubera ko uba wicaye neza, kandi iyo terefone yawe ishizemo umuriro uracaginga, kandi ugenda urareba tereviziyo.

Ibimodoka kubigendamo ni byiza cyane cyane kuko iyo urimo ugenda ureba televiziyo, iyo urimo uracaginga iyo urimo uranacatinga, iyo urimo uba umeze neza wicaye neza wicaye mu mutuzo utekanye.

Ubwato bworosha ingendo cyane cyane nk'ahantu imodoka zitagera. Iyo uri mu bwato uba wumva umeze neza kubera iyo urebye hirya no hino ubona hasa neza. Iyo uri mu ruzi hagati ukareba mu mazi wumva ahantu hasa neza.

Iki rifani gitwara imizigo, kinadufasha gutwara nk'ibishimbo kubivana mu murima turi kubijyana ku isoko, kandi kidufasha kwikorera ibintu byinshi, mbese biremereye, urebye nk'ibirayi, amakara, n'ibindi kugira ngo tubigeze ku isoko.

Ibibisi kubigendamo uba umeze neza cyane, kubera ko ugerayo ntakibazo ufite, wumva wicaye neza, kandi iyo terefone yawe ishizemo umuriro, wacaginga mu modoka. Kandi mu modoka ugenda uri kureba tereviziyo.

Muri gare haba harimo amamodoka menshi atwara abantu, ari kubajyana iwabo, abajyana aho bagiye. Abajyanayo, iyo ufite n'utuzigo barakujyana. Mbese haba harimo amamodoka menshi, n'abantu benshi cyane, abari gucuruzamo utuntu n'abandi.

Muri gare haba harimo abantu benshi. Cyane cyane haba harimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye mu ngendo zitandukanye. Aho bamwe baba bari gutaha abandi bari kuza. Abandi bari kujya aho bagiye. Kandi haba harimo abantu, harimo imodoka harimo abacuruzi ba mitiyu harimo n'abantu bakorera mafaranga ngo bishyura.

Iyo ugendeye muri bisi ugenda utuje, kandi iyo terefone yawe ishyizemo umuriro uhita ucagingamo, kandi ugenda uri kureba televiziyo kubera ko baba barayishyizemo.

Igare rigira akamaro kanini cyane cyane, kuberako ritwara ibintu byinshi cyane utakwikorera ku mutwe. Uri kumva koryoroshya ibintu cyane ugereranyije. Wazajya ugura akagare kugira ngo ujye utwaraho utuntu twawe.

Abamotari batuma tugera aho tugiye vuba, kandi bakatugezarezaho ku gihe. Kandi tukabishyura neza, baba bakoze akazi gakomeye cyane, kandi ugiye kureba, abamotari bafite akamaro kanini cyane.

Kwasiteri iyo uri kuzigendamo uba umeze neza kandi uba utuje, cyane cyane iyo uri kugendera kuri kaburimbo, nta n'ibintu byinshi by'ibisimu birimo. Kwasiteri kandi igufasha kujyana nk'abantu iyo ufite ubukwe, cyangwa bagiye gushyingura.

Imodoka itwara abantu neza kubera ko iba izi neza ko igomba gutanga serivisi nziza cyane kubera ko abakiriya ari abana kandi ikugeza aho ushaka ikakujyana ahantu hose waba ukeneye kujya.

Abamotari badutwara neza cyane cyane. Iyo bari gutwara ku ka volume ku muvuduko muke. Tugerayo iyo tugiye amahoro. Tukagerayo kandi mu gihe gito. Rero abamotari ni beza cyane kandi tujye turabatega kugira ngo tugereyo.

Vorukano kuyigendamo ugenda umeze neza, kubera ko iba ifitemo sharigeri yo gucaginga, kandi vorukano iyo uyigiyemo ugenda umeze neza kubera ko igendera ku gihe, kandi vorukano ikiyiza cyayo iyo wayiteze terefone yawe ikazima uri mu muhanda ucagingamo.

Gare iba irimo abantu benshi n'amamodoka menshi agiye kujyana abantu mu ntara, cyangwa abajyana i Kigali bitewe n'aho bagiye kujya, kandi haba harimo abantu b'ingeri zose.

Kugendera muri bisi ni byiza cyane, kubera ko iyo uri kuyigenderamo ugenda utuje kandi ugenda wicaye neza, kandi n'iyo telefone yawe yashizemo umuriro ucagingamo, kubera ko haba harimo ahantu ho gucaginga.

Abamotari badutwara neza, kandi abamotari batugeza aho tugiye neza. Mbese abamotari bafite akamaro kanini cyane, kubera ko bihutisha umuntu, bakamugeza ahantu agiye, akagerayo adakererewe.

Dipine zidufasha kwikorera imicanga, cyane cyane igiciye iba ivuye kure cyane, kugira ngo nitumenera twubake cyane kandi twubake tudahagarara, kubera ko iba yamennye ibintu byinshi.

Izi modoka zoroshya urugendo cyane kubera ko zitwara abantu benshi. benshi ctuma abantu benshi bagenda neza can ugereranyije n'ubundi bumodoka buto cyane

Abamotari bafite akamaro kanini cyane. Cyane cyane iyo batwaye abagenzi, babatwara neza cyane. Kandi batuma tugera aho tugiye vuba tutamaze igihe kinini, kandi bakunda kubahiriza amategeko.

Bisi ni nziza cyane kuzigenderamo kuko ugenda wisanzuye witonze, iyo terefone yawe yakuzimanye ucagingamo. Ugenda uri kureba tereviziyo kandi uba wicaye umeze neza.

Kugenda muri bisi iyo amasaha ageze, bisi iba igomba kukujyana kubera ko atari wowe watumye abandi babura. Bituma rero bisi ikujyana, mu modoka murimo muri bake, bitewe nuko amasaha yageze kandi...

Abarwayi bagendera ku tugare baba babaje cyane cyane cyane iyo badafite ubushobozi ,kuko kugira ngo wenda cyangwa babe bafite umuntu wo kugenda arabatwara, baba bababaye cyane.

Abamotari bakorera amafaranga menshi cyane. Cyane cyane nk'abo muri Musanze batwara abantu benshi. Batwara abantu bagiye guhaha, bagatwara, batwara n'abantu bagiye kujya kwa muganga, mbese abamotari bafite akamaro kanini cyane.

Lifani zitwara ibintu nk'ibisheke, zigatwara ibirayi, zitwara ibijumba byose , mbese imizigo iyo ibaye myinshi.

Kugendera muri bisi ni byiza cyane, kubera ko ugenda utekanye, haba harimo na sharijeri uracaginga, ugenda uri no kureba tereviziyo, mbese kugendera muri bisi ni byiza cyane.

Muri gare haba harimo abantu, amamoto, harimo n'amamodoka. Aho abantu baba bari gushaka amamodoka abageza aho bagiye, kandi n'abamotari baba bari gushakiramo abakiriya. Mbese muri gare hakunda kuba hari ibintu byinshi, kandi harimo n'abantu benshi.

Ibimodoka binini bya horizoni biba bimeze neza cyane, kuko iyo ubigiyemo uba ufite umutekano uracaginga iyo urimo ugenda ureba televiziyo, ukareba n'ibindi bintu byinshi, kandi haba harimo umwuka mwiza.

Abantu bakora ku kibuga cy'indege, baba basa neza, baba bambaye neza kandi bambara ubupfukamunwa, kugira ngo birinde ibirwara byandurira mu mwuka, cyane cyane nko mu gihe ibyorezo biba byateye, bambara udupfukamunwa kandi baba basa neza.

Ritiko kuyigendamo uba umeze neza, kubera ko iyo ugiyemo ugiye ku rugendo usanga irimo televiziyo, kandi ibamo sharijeri, iyo telefone ikuzimanye ucagingamo.

Ubwato bw'u Rwanda bukunda bukorera mu mazi. Butwara abantu, butwara n'ibintu bugatuma ibintu bigera ku bantu baba babitumye cyane cyane ababa baratumye hanze y'amazi magari.

Iyo uri kugendera muri izi modoka ugenda umeze neza cyane ugenda ureba televiziyo, ukagenda iyo telefone yawe ishizemo umuriro ugenda uhita ucaginga, ucaginga washiramo ukongera ugacaginga ndetse ugenda ufite umutuzo cyane.

Indege idufasha kugera ahantu ha kure kandi tukagerayo vuba dufite umutekano, kandi iyo ugendeye mu ndege uba umeze neza kubera ko ugenda utuje cyane.

Gare iba irimo urujya n'uruza rw'abantu. Abari kujya gushaka imodoka zo kubageza iwabo, abenshi baba bari no gushakiramo amaramuko, aho bamwe baba bari gucururizamo abandi bajya gushakiramo utuntu n'utundi, nko kujya kurebamo abantu bagiye iwabo ibiki.

Sikurubasi igeza abana ku ishuri, kandi ikabakura ku ishurikabajyana mu rugo, kugira ngo badahura n'inzitizi zishobora gutuma bakererwa ishuri, kandi iyi sikurubasi ituma abana bagera mu rugo ku gihe.

Iyo ugiye muri izi modoka ugenda umeze neza cyane, kuko iyo ufite umuzigo wawe, uwushyira muri butu kubusa Kandi iyo uri kugenda muri iyi modoka, ikibi cyazo zo nuko ugenda baragusunikasunika cyane.

Aba siporutifu baba basa neza cyane, kubera ko baba barakoze siporo, kandi bagira uruhu rukeye kubera ko iyo ukoze siporo ubaga ufite ubuzima bwiza, kandi nta n'indwara nyinshi zipfa kuba zakwataka bitewe n'uko umubiri wawe ubaga wihagije ku bintu by'ubwirinzi.

Iyi ni basikete ndayikundaga cyane abakinnyi bayo baba bazi gukina cyane cyane, n'iwacu i Musanze hari igihe baza gukinirayo. Iyo uri umukinnyi ukaba uzi kuyikina uba umeze neza cyane. Abakinnyi bayo bakunda kugenda bafite amaguru yakoze siporo, bambara inkweto nziza n'amasogisi meza...

Abana iyo bari muri siporo biba ari byiza kuberako baba bishimye, kandi bakora siporo bishimye cyane kugira ngo bazagire ubuzima bwiza. Siporo kandi twese tuziko ari ingenzi ku buzima bwacu.

Aba siporutifu baba bakomeye cyane, kubera ko bakora amasiporo yo kwiruka, cyane cyane baba bafite impfundiko, ariko kubera gukomera no kwirukanka cyane, kandi baba bafite igihaha cyo kwiruka, kubera ko baba barabikoze cyane.

Abakinnyi b'umupira wa vole, baba bazi gusimbuka cyane, kandi bakora siporo zihagije, usanga bakomeye kandi bafite ubuzima bwiza, akenshi usanga bakunda gukora imyitozo mu minsi itandukanye.

N'aba siporutifu baba babayeho neza cyane, kubera ko bakora siporo kenshi. Cyane cyane izo gukomeza amaguru ndetse n'izo gukomeza amaboko, baba bafite n'igihaha.

Abakinnyi bagaragara neza kubera ko baba bambaye neza kandi baba barakoze siporo, bafite agahu kanyereye kandi baba bazi no kwifotoza, cyane cyane iyo ari abakobwa.

Abakinnyi bakina umukino wo gutera icumu, baba bakomeye cyane, kandi baba bafite tekinike zo gukoresha kugira ngo icumu rigere kure. Kandi baba barakoze udusiporo, bafite ubuzima bwiza.

Abantu baba bari mu masiganwa y'amagare baba barakoze sporo cyane kandi bakomeye kubera ko biba bisaba n'imbaraga kugira ngo utware igare wirukanke cyane urusha abandi. Kandi iyo bari gusiganwa biba biryoheye amaso, iyo uri kubareba wumva wakomeza ukabakurikira aho bagejeje.

Abakinnyi bagaragara neza, kubera ko baba bambaye neza, kandi baba bambaye amajezi atandukanye, kugira ngo uri kubareba amenye amakipe ari gukina ko atandukanye.

Abakinnyi ba volebolo baba bameze neza cyane, kuko ni siporo nziza cyane kuko wakoreramo siporo ukagira ubuzima bwiza bahemba amafaranga menshi ,bahemba menshi cyane. Siporo ubwo ni nziza cyane kuko zituma ubuzima bwawe bubaho ukaba n'igihe kirekire.

Amarushanwa yo gutera icumu aba akomeye cyane, kubera ko iyo uteye icumu ukaritera hafi undi akaritera kure y'aho wateye ahita agutsinda, rero biba bisaba kugira ngo ukore siporo nyinshi, kandi witoze kuritera.

Aba siporutifu baba bafite ubuzima bwiza kubera ko baba barakoze siporo kenshi. Kandi aba sporutifu baba basa neza kubera ko baba bafite ubuzima bwiza bitewe no gukora siporo kenshi.

Abakinnyi ba hendi boro bagira imbaraga nyinshi, kubera ko bazikoresha bari gukina umupira, kandi baro yabo iba ikomeye cyane ugereranyije n'izindi, kubera ko bakoresha amaboko bari kugira ngo batsinde, kandi baba bafite ubuzima bwiza kubera ko bakora siporo.

Umupira buriya urabonera, utuma ukora siporo ukagira ubuzima bwiza, ukabaho neza, ukirinda bino birwara biterwa no kudakora siporo, cyane cyane iyo ufite nk'ibiro byinshi cyane. Iyo ufite ibiro byinshi nyine bigufasha kugabanya ibyo biro.

Abakinnyi ba vole bolo, baba bazi gusimbuka cyane, kubera ko kugira ngo utere balo bisaba, kugira ngo usimbuke ugere hejuru cyane usumbe abandi, kandi baba bakomeye kubera ko baba barakoze siporo nyinshi. Kandi baba bambaye imyenda itandukanye, kugira ngo amakipe abe atandukanye.

Abakurasi baba barakoze siporo cyane, kubera ko baba bazi gutwara amagare, cyane cyane ahantu hose ahazamutse, ahamanutse, bose baba bazi gutwara amagare, baba barakoze siporo nyinshi, cyane cyane siporo zo kwirukanka kandi baba bari fiti cyane, kureba ko baba bakomeye.

Umukino wa volebolo ni mwiza cyane kubera ko uba uri gukora siporo ugakomera umubiri, iyo ukunda gukina voleball urakomera ugira ubuzima bwiza, kandi iyo ukina volebolo ntawo upfa kurwara uko wiboneye, kubera ko umubiri wawe uba ufite ubudahangarwa bitewe na siporo.

Abakinnyi ba basiketi bagaragaraga neza, cyane cyane iyo bagiye kuza gukina, iyo bagiye gutangira gukina mace baba bameze neza kandi baba basa neza, cyane cyane cyane iyo uri kubareba baba basa neza.

Abakinnyi ba tenisi baba bambaye neza cyane, kubera ko baba bagiye gukina kandi iyo bagiye mu myitozo, biba bisaba kugira ngo bagende bambaye, inkweto zibegereye neza kandi bambare n'udukabutura, kugira ngo babone uko basimbuka.

Abakinnyi ba voreboro bazi gusimbuka cyane kandi baba bafite detante yo kugira ngo basimbuke mu kirere batere baro kandi baba bambaye neza. Abafana baba bari kureba umupira wabo baryohewe kubera ko bazi gusimbuka kandi baba bambaye jazi nziza cyane.

Abakinnyi ba basketi baba barakoze siporo nyinshi kandi baba bakomeye kandi bambaye imyenda zitandukanye kugira ngo babatandukanye kuko buri kipe iba igomba kuba yambaye ijezi isa ukwayo kugira ngo n'abafana bashobore kubatandukanya.

Abanyamusanze twishimiye, twishimira intsinzi ya perezida wacu paul kagame. Waduhaye Girinka, yaduhaye n'amafaranga ga VUP akatureberera neza cyane.

Abakurusi baba bari kwirukanka cyane cyane iyo bageze ahantu hamanutse, baba bafite supidi iri ku rwego rwo hejuru, kandi abakurusi baba barakoze siporo nyinshi, barakoze n'imyitozo yo gutwara ahantu hagiye hatandukanye, ahatambitse, ahamanutse ndetse n'ahahagaze.

Sitade amahoro iba isa neza, kandi iba irimo abantu benshi, cyane cyane iyo habaye umupira ukomeye, nk'uwa aperi na rayo, uba ufite abafana benshi, kandi iyo uri kuwureba uba wumva wishimye, kubera ko uba uri kuwurebera ahantu heza.

Abakobwa b'abasiporutifu baba bafite ubuzima bwiza, kubera ko baba barakoze siporo. Baba bakomeye, mbese baba bari fiti umubiri wose wose wose, nta n'ahantu baba badakomeye, kandi ntabwo bapfa kurwara indwara uko biboneye.

Abakinnyi baba bambaye neza cyane . kugira ngo bagaragare neza kandi iyo bambaye neza abantu bababona basa neza cyane . Nkiyo bafashe nk'agafoto bari kugira ngo bagaragaze aho bari abakinnyi, kandi baba babayeho neza kubera gukora siporo bagira n'ubuzima bwiza.

Intore zirabyina cyane iyo hari ibirori, haje Kagame, Perezida yaje kudusura, habaye ubukwe , ibirori ndetse n'ahandi . Intore zizi kubyina cyane cyane.

Bicivoreboro ikinamo abantu bafite ubumuga bamugaye, cyangwa abandi bantu bafite ingingo zangiritse cyane cyane nk'amaguru n'ibindi, abo ni bo bakina bicivoreboro na yo iba ari nziza cyane.

Abakinnyi ba volebolo baba basa neza kandi baba bambaye neza ,kubera ko baba barangije gukina cyangwa bagiye gukina, kandi abakinnyi ba volebolo bambaye imyenda itandukanye, kugira ngo umusifuzi wabo ashobore kubatandukanya.

Ababyinnyi babyina neza, kandi baba bari kugira ngo bashimishe abo bari kubyinira. Mbese iyo uri kubareba nawe wumva umeze neza, kubera ko basusurutsa abandi, kandi no gushishikariza abantu kugira ngo bazaze gusura u Rwanda rwacu kuko rufite ibintu byiza byinshi.

Abakinnyi ba basiketi baba barakoze siporo，baba ari barebare， kandi bagira ubuzima bwiza. Kubera ko bahora muri siporo， kandi baba bambaye neza. Ngewe ndanabakunda cyane.

Abasiporutifu babayeho neza cyane ,kubera ko baba bakomeye ,bakora bakagira ubuzima bwiza ntabwo bashobora kurwara uko biboneye , kandi iyo ukora siporo uba wabayeho pe.

Abakinnyi baba barakoze siporo kandi bakomeye cyane, kubera ko baba bafite detante yo gusimbuka, kugira ngo bashimishe abantu baba bari kureba uyu mupira.

Gukora siporo ni ingenzi cyane ,kubera zituma ubuzima buba bwiza, kandi bituma nta ndwara dupfa kurwara cyane cyane, nk'izi ziterwa wenda no kudakora siporo, byongera ibiro, kandi iyo ukora siporo uba ukomeye uri fiti.

Abafutubarere babayeho neza cyane kubera kuba barakoze siporo. Kandi natwe tuba turimo kuyireba iba iryoheye amaso cyane. Iyo uri nko ku kibuga, urayireba, ukumva umeze neza, ukishima.

Abakinnyi ba tenisi baba bakora siporo na bo zikomeye, kubera ko tenisi na yo biba bisaba kuba ufite igihaha, cyane cyane ko iba inagoye ugereranyije n'indi mikino, tenisi iragora.

Abakinnyi b'umupira baba bafite imfundiko，baba barakoze siporo cyane， kandi bagira ubuzima bwiza，babaho neza cyane， ugereranyije n'abandi. Kandi baba bafite ingufu.

Abakinnyi bagaragara neza kandi baba bambaye amajezi atandukanye bitewe buri wese n'ikipe ari gukinira. Kandi ibyo bituma bamenya kubatandukanya, nabo bakamenyana ubwabo, mbese iyo bari kwifotoza baba bameze neza kandi bagira ubuzima bwiza kubera ko bahora barakora siporo.

Sitade amahoro iba meze neza iyo twagiye kureberamo umupira abakinnyi bari gutera umupira Eee! Iyo twicayemo hariya tuba tumeze hari ibyishimo byinshi cyane kuko kureba mace neza neza neza wagira ngo wibereye i Burayi.

Abakinnyi baba bambaye neza cyane, cyane cyane iyo bose bambaye injezi zisa, kandi baba bafite.....

Tenisi, abakinnyi ba tenisi baba bameze neza cyane. Kubera ko tenisi ihemba amafaranga menshi. Iyo uzi gukina tenisi， uhembwa amafaranga menshi，kandi iyo ukina tenisi，uba uri gukora siporo， ugira n'ubuzima bwiza， ntabwo uhura n'uturwara rwara.

Abakinnyi ba basiketiboro baba ari barebare cyane, kandi baba bambaye neza, n'inkweto zabo baba bambaye ziba zisa neza cyane ugereranije nabandi, kandi abakinnyi ba basiketi baba bambaye amajezi atandukanye, kugira ngo bashobore kubatandukanya.

Umuhanda wa kaburimbo, ubundi kuwugendamo uba umeze neza , kuko nta vumbi uhura naryo iyo uri kugendamo uba umeze neza uvamo umeze neza cyane kuko nta bintu by'imyanda uhura na byo.